Abayobozi b'inzego zitandukanye harimo abahagarariye ugwego rw'ingabo, ndetse n'abashinzwe umutekano n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Bahuriye mu birori byo guhemba, bamwe mu bayobozi bahabwa igihembo cy'umuyobozi witwararika neza.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo cyangwa se kinyagwanda abazwi nk'intore, bari guhamiriza banezerewe cane bigaragarako bari kubyinira ng'abashitsi ,cangwa se abandi batumigwa mu birori byabahurije hamwe.

Igisabo kijishe ahantu hatekanye rwose ibi kandi bikaba binakirinda kuba cyakangirika nko kuribora cyangwa se nabyo ni umuco nkuko ikinyarwanda kija kiravuga ngo aho ujishe igisabo ntuja urahatera ibuye.

Mu birori byo kwimakaza umuco nyarwanda, abayobozi n'abaturage bateraniye hamwe bicaye mu ihema, bakiriwe n'ababyinnyi cyangwa se intore mu mbyino gakondo barishimye cane, bari kuja barararyoherwa n'ibirori.

Ikizwi nk'akayunguruzo kifashishwa n'abatu, n'abatunganya amafu y'ibiribwa bitandukanye by'impeke birimo amafu y'ubunyobwa, amafu y'ibigori, amafu ya soya n'ibindi nk'ibyo. Kifashishwa ba bari kuyungurura gateretse hasi.

Inzu igaragara nk'ikiraro c'amatungo yaba amagufi ng'ingoko cangwa se ingurube yewe n'ihene byose birashoboka ko byakororwamo. Iri ahantu hakikijwe n'ibiti binini biyisumba, ku buryo bitanga igicucu mu rugo gwose.

Umukecuru ukuze ariko udakuze cane wicaye ahasa nko mu byatsi aho arimo yimakaza umuco nyarwanda wo kuja araboha uduseke n'utundi tuntu tw'ubugeni duturuka ku bikorwa byose by'umuco, yicaye ku musambi, iruhande rwe hari agasafuriya.

Umubumbyi wabigize umwuga ng'akazi kamutunze, yicaye ari kubumba ingono bizwi nk'imbabura zifashishwa mu gucana, n'ibindi bifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Inzu ndangamurage iyi izwi nk'ingoro, imbere hahagaze inga y'umuco izwi ng'inyambo. Aha mu Gwanda hari hagiye hari ahantu hake cane nk'i huye aho bita mu rukari i nyanza, ni ahantu hace hake cane mu gihugu.

Igikoresho benshi bakunze kwita ipensi gikoreshwaga mu bikorwa bitandukanye: nk'ubwubatsi, aho bakora amashanyarazi, aho bafunga amaburo mu bakanishi n'ibindi bitandukanye. Kifashishwa cyane kenshi.

Inyubako za kijyambere zubatswe ku buryo zisa zose nk'aho ari ayibigo by'amashuri, amacumbi se, cyangwa se n'izindi nyubako zizwi nk'imidugudu.

Abanyeshuri bicaye muri kompiyuta labu bameze nkabari mu kizamini co kubinjiza mu ngabo z'igihugu ahazwi nko mu gipolisi.

Ibiro by'Akagali ka Sahara byubatswe bigaragara nk'ibishaje, abana bavuye ku ishuri bari kunyuraho iruhande, bisa ngaho bari kujenda barugamo imvura irikubanyagiraga bava ku ishuri.

Abaturage b'umudugudu wose cangwa se bagize akagari kose, bateraniye ahasanzwe hakoregwa inama n'umuyobozi wabo, abari hagati afashe indangururamajwi, ari kuja arababwira imigabo n'imigambi n'imihigo bafite mu kwezi cangwa se mu mwaka.

Imodoka nini itwara imizigo, zizwi ku izina ryamamaye cane ryitwa Hoho, zambukiranya ibihugu akenshi zikunze kwitwa taransafurica, bishatse kuvuga ko zambukiranya ibihugu byo muri Afurika.

Imodoka nini izi zizwi nka bisi zitwara abantu benshi zikora hagati mu gihugu zambukiranya intara, ziva mu ntara zijya mu yindi, cangwa rimwe na rimwe zigakwara abagenzi zibakura mu gihugu zibajyana mu kindi, zihagaze ahitwa kuri Arete, bigaragara ko zitegereje abagenzi.

Imodoka nini izwi nka bisi rusange itwaraga abaturage cyangwa se abagenzi, ibavana mu mugi ibajana mu undi cyangwa se hagati mu mugi.

Umukobwa mwiza rwose ugaragara nkufite ibigango ari gukina umukino witwa uwo bakunze kwita tenisi kandi ari kujohegwa cane nuwo mukino yishimiye intsinzi bisa nkaho atsinze ibitego byinshi ikipe arimo yatsinze cane.

Abasore babiri cyangwa se abagabo bitewe nuko imyaka yabo ibigaragaza, b'abikinnyi b'umukino witwa Tenisi bigaragara ko bakunda gukinana ndetse n'inshuti cyane, bahagaze imbere y'ubafotora mu kibuga.

Umupira uzwi nka balo, wifashishwa mu gukina umukino witwa volebolo ukundwaga cyane n'abantu b'ingeri zose twavuga ng'urubyiruko cyangwa se abakuze.